Abapolisi bacunga umutekano, ariko hariho n'igihe imbwa zo mu rugo ari ryo tungo ryo mu rugo na ryo ricunga umutekano, ugasanga riwurinze neza kuko rigaragaza iyo umuntu ahageze, bagahita bamenya ko hari ikibazo.

Abantu bigize nabi cyangwa inzererezi babambika amapingu, bakabajyana muri gereza bakajya kubafunga, bakabazana mu kigo ngororamuco, kugira ngo babagorore bazaveyo bafite imico myiza. Nk'iyo ari abana cyangwa iyo ari abantu bakuru, bakabafunga, bakabakatira nk'imyaka runaka, kugira ngo bazaveyo barashyize ubwenge ku gihe, batazongera gukora amakosa nk'ayo bakoze, bakaba baragororotse.

Kurinda umutekano ni byiza cyane. Hari igihe umutekano urinzwe n'umuntu cyangwa ukarindwa n'itungo bororera mu rugo ari ryo imbwa. Ugasanga umuntu yayirindishije nk'imodoka yahoga asanga yayirindishije mu rugo kugira ngo nihagira umujura uza, ibe yamuha ikimenyetso kuko ihita imoka, ukamenya ko hari ikibaye cyangwa ari umuntu uje.

Iyo abaturage baje mu nama cyangwa inteko rusange, batega amatwi umuyobozi wabahamagaye, bakumva ibyo ababwira, bakabijaho inama, bagafata n'umwanzuro.

Abamotari bategereje abagenzi ku murongo, buri wese, mpaka abonye mugenzi we. Abapolisi barinze umutekano mu muhanda, aho abanyamaguru bambukira.

Uhagarariye abapolisi ari kubagezaho ijambo nyamukuru, ababwira ko bagomba kwitwara bari kubwira baturage mu muhanda.

Inama cyangwa inteko z'abaturage akenshi zibera mu kibuga. Hakaba hari umuyobozi ndetse n'abashinzwe umutekano nk' abadaso, ntabwo bajya babura mu nteko cyangwa mu nama y'abaturage rusange.

Iyo umuntu ari gukoresha abanu inama cyanga abanu runaka aba yateguye ibinu ngenderwaho byo kubabyira, izo ngingo ngenderwaho zigafatirwa umwanzuro muri iyo nama uzagirira abaturage akamaro.

Abantu iyo bari Munama usanga buri wese ateze amatwi ugasanga afite ahantu ari kwandika ibyo y'umvise kandi n'ibibazo ari kubaza ugasanga bameze neza cyane. ,Ugasanga umuntu uri kuvuga bahaye ijambo afite mikoro ari gusubiza ibibazo bamubajije , cyangwa ikibazo bamubajije bagasanga bameze neza cyane basanga bari gutega amatwi kandi bari gusiganuza ibyo batumva.

Abantu bari mu mahugurwa bakenera amafunguro ya mu gitondo, bagakenera n'aya saa sita, bagakenera n'amazi yo kunywa kugira ngo ubwonko bukore neza.

Abagore bicaye ari batanu, buri umwe agenda yiyandika ku rupapuro, bategereje kurangiza kwiyandika. Amatelefoni yabo bayarambitse ku meza, nibamara kwiyandika, barataha.

Iyo abanyamakuru bari gushaka amakuru mu baturage, amuhereza indangururamajwi ariyo mikoro, akamubaza ibibazo umuturage agasubiza umunyamakuru.

Inama akenshi zikunze kubera ahantu ho mu kibuga ugasanga nk'akagari gafite ikibuga hepfo, ugasanga n'inama niho ibereye. Ugasanga nk'umuntu uri gufata ijambo arikugeza ku baturage baje mu nama ari ahantu buri wese arabamureba. Ugasanga nta kibazo afite kuko aba harateganyirijwe kubera inama.

Iyo abaturage bari mu nama, usanga nk'umukuru wa porisi, cyangwa uhagarariye porisi, nawe afashije ijambo ari kubabwira uko bagomba kwirinda, ari kubabwira ko bagomba gucunga umutekano, ugasanga abagiriye inama nziza, kandi z'ububaka, kuko aricyo ashinzwe.

Intore iyo zambaye amayugi zirahamiriza abantu bakanezererwa kandi bakishima. Aho intore zageze ahantu harasusuruka ukabona bitandukanye n'ahandi hantu hatari intore.

Gusya ku rusyo dukoresha ingasire, inkoko n'icibo. Gusya ntabwo usya wenyine, baragusimbura kuko wenyine wananirwa cane.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane, aho umuntu yakoreshaga ibirori cyangwa ubukwe, ugasanga bateguye imisururu mu biduki, cyangwa mu bibindi. Bagashingamo n'imiheha buri wese akajya gusomesha umuheha asanzemo, akahava yumva inyota ishize.

Abavuzi b'ingoma bambaye neza cane! Bambaye imikenyero n'amashati y'umweru gasa, n'amasaro mu ijosi, buri wese afite imirisho, n'ingoma imuri imbere ari kuvuza.

Ubugeni n'umuco ni byiza cyane, habamo ibintu bya kinyarwanda bitandukanye, uduseke, icumu n'ibindi byinshi.

Umuco gakondo ni mwiza cyane. Abantu barawukunda cyane. Niyo mpamvu tutagomba kuwuca. Kera wasangaga umuntu yasoromye isombe hepfo y'urugo, ugasanga yayishyize mu isekuru arayisekuye n'umusekuzo. Ugasanga isombe irahiye kandi iraryoshye cyane. Kuko bino byuma byateye ubu ntabwo byari byagatera ku buryo umuntu yajya kushesha isombe.

Inka bari kuzishora mu kibumbiro, zirigushoka, umushumbari kuziha amazi zigashoka.

Inkoni ziri kubyina neza cane zifite amacumu， hari ingoma，ziba zibyina neza， zambaye amayogi，inkindi n'imigara， zibyinira mu busitani buteyemo indabo.

Inkono z'ibumba ziba nziza cyane nk'iyo wazitetsemo, usanga ibiryo bihumura ukumva biraryoshye, umuco nyarwanda ni mwiza kuko abantu barabumbaga bakazigurisha bakabona amafaranga, ugasanga abantu bameze neza kandi bikoreye ibyo batekamo mu bukorikori bwabo, batiriwe bajya gushakisha hirya no hino.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane, abantu barawukunda cyane, ah'usanga habaye ibirori runaka, habaye nk'inama ugasanga intor'irimo irahamiriza yambaye imigara, yambaye n'amayogi, ugasanga ibintu ni byiza cyane, n'abaririmbyi nabo bari kuririmba, ugasanga itorero ririshimye risusurukije abantu barishimye, kandi baranezerewe kubera ko bari kubabyinira neza.

Gusekura mu isekuru byahozeho, abana bagasekura ba nyina bagakora ubugari, abakuru bakavoma. Nubwo hari ibyuma bisya ariko bose ntabwo ari ko baba bafite amafaranga yo kujya gushesha ahubwo tugomba no gusekura.

Ku mwero w'imyaka abantu bahunikaga mu mitiba, kuberako ubutaka bwabaga butari bwasharira burimo intungamubiri z'ifumbire. Kera ntago bahingishaga imvaruganda kandi ibishimbo bikera cyanga ibindi bitandukanye bagahunika mu mitiba cyanga mu bigega byeze kandi byarumbutse.

Umuco nyarwanda cyangwa umuco gakondo ni mwiza cyane, usanga abantu bafite urukiza cyangwa uruho, ugasanga bari kunywa umusururu cyangwa urwagwa, ugasanga bimeze neza cyane. Kandi barunyweragamo n'igikoma, uruho ugasanga ni ikintu cyiza cyane. N'ubu umuntu arukoresheje byarushaho kuba byiza, kuko ruba rukeye kandi rufite ubuziranenge.

Umuco gakondo ni mwiza cyane abantu barawukunda cyane, ugasanga imyuko barayikoresha ubugari cyangwa se barayivugisha umusururu, ugasa ni byiza cyane. Nta rugo rutagira umwuko cyangwa umudaho. Kera abantu bagira imidaho ugasanga ni yo baruza, kubera ko amarushe yabaga atari yaza, ni yo bakoreshaga barura.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane, aho usanga abantu basabye umukobwa bakamukwa, bakamukwa inka, iyo nka nayo iyo bagiye kuyitanga habaho umuvuzi w'inka, akabanza akavugira inka, ubundi bwo akazana n'ibyatsi bita inkuyo akayihanagura, ugasanga yambaye imikenyero, ugasanga yambaye ingofero, mbese yabukereye, nk'umuntu ugiye kwivugira inka, ugasanga ubukwe bugenze neza kubera umuvuzi w'inka.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane, aho wasangaga intore zikaraga imirishyo, ugasanga ziri kuvuza ingoma, ugasanga yambaye imirama, ugasanga yambaye imigara, yambaye impuzankano isa n'iy'intore, ugasanga neza cyane aho intore zageze ahantu harasusuruka, ugasanga hameze neza cyane.

Umuco gakondo wari mwiza cyane abantu n'ubu barawukoresha, ariko ntabwo ukunze gukoreshwa n'abantu benshi kuko haje umuco wa kizungu, usanga ibintu gakondo aho biri hose ari byiza cyane abantu barabikunda cyane, iyo uri kubireba ukabona ibicuma ukabona inkiza cyangwa uruho, ukabona n'ibikombe ukabona intara n'inkoko n'umuvure ubona ari byiza cyane bibereyemo.

Abakaraza bari kuvuza ingoma, aba ari byiza cane iyo uri kubareba, ubona bibereye amaso utabava iruhande wakomeza kubareba.

Abami ba kera ni umwami Mutara Rudahigwa, umwami Kigeli n'umukobwa wacunguye se ku rugamba Ndabaga. Bambaraga ibintu mu mutwe bimeze nk'urugori, bafite n'umusatsi usokoje amasunzu.

Umuco wa kera abantu barawukundaga cane, kuko nta muntu wororeraga inka mu rugo, ahubwo inka yabaga mu gikuyu ugasanga niho yibera, kandi ikamuha amata menshi kandi ashimishije. Ugasanga abantu benshi barinywera amata barabaho neza kubera inka ziba mu bikuyu. Ugasanga umuco wa kera wari mwiza kuruta ubu.

Uburo ni igihingwa cyiza cyane, kandi gikunda kwera, iyo cyeze barabuvunga bukavamo impeke nyinshi cyane kandi nziza, uburo ku isoko burahenda, kuko umuntu wabuhinze aba afite amafaranga, aba yariteganyirije, akagira ibitunga umubiri, kandi akagira ibitunga rugo, akagira iterambere.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane. Iyo kera habaga ibirori cyangwa inama runaka, ugasanga cyangwa bagiye kwakira umukuru w'Igihugu ku kibuga, usanga intore zirimo zihamiriza zambaye imigara n'amayugi, ugasanga itorero riri kuririmba, ukabona ibintu bimeze neza, abantu barishimye kuko intore zabasusurukije hamwe n'itorero.

Amasaka y'amamere aba meza cyane, abantu barayakunda cyane, kuko iyo wayinitse, ukayinura, urayaronga neza, ugasanga urayanitse, akavamo umusururu uryoshye kandi mwiza, kuko amasaka atinitse yo avamo igikoma, ariko ayinitse niyo avamo umusururu, cyangwa ikigage byoroshye.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane. Nk'abami ba kera bagiraga amasunzu, ugasanga bayasokoje neza, bateretse imisatsi yabo. Ugasanga inyogoshyo biyogosheshaga, kuri ubu ntaho wayikura, kuko nta mwogoshi wayishobora kuyogosha. Umuco rero wari mwiza, kuko abantu bagiraga imisatsi yabo, ugasanga ni myiza kandi nta kintu basizemo, iteretse neza barabogoshe neza.

Abavuzi b'ingoma bari kuvuza ingoma, bambaye imipira y'umukara, bambaye incabure z'umweru n'ubururu, ndabakunda cyane.

Umuco gakondo ni umuco mwiza cyane, aho kera umuntu yabumbaga inkono akajya kuzigurisha ku isoko, ugasanga yazihambiye mu buryo bwiza cyane, ugasanga yazihambiye zigerekeranyije, kandi akazikorera, zikagerayo nta kibazo zifite zitamenetse, kandi zibumbye mu ibumba.

Umuco wo kumasha wabaga umuco mwiza cyane, ugasanga abantu benshi barawukoresheje, ugasanga abantu barimo baramasha ukabona ni byiza cyane ubereye amaso n'ubikora bikamushimisha, kuko ibyo yabaga amahije biba bipfuye akabipimiranya.

Mu rubohero bahabohera ibintu bitandukanye, ibiseke ,ibirago, ibitete.

Abami ba kera basokozaga amasunzu ,ugasanga imitsatsi yabo imeze neza cane abantu barayikundaga cane ubu ntago wayibona.

Umuco wa kera wari mwiza cyane umuntu yabaga yakamye ibitoki abikamiye mu muvure agafata amasaka akayasekura mwisekuru akarangiza agafa ikirago agashyiraho urusyo n'ingasire amasaka akayashyira mu kebo agafata ingasire agasya amasaka kurusyo ifu akayishyira ku nkoko yarangiza akajya kuyishyira mu nzoga akayibetera.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane. Abantu barawukunda cyane nk'iyo kera wasangaga abantu bejeje imyaka myinshi cyane, bakayihunika mu bigega. Ugasanga abantu barahinga bakeza bagahunika mu bigega, ibigega bikuzura, bagahunika no mu mitiba. Ukabona ibintu ni byiza cyane. Umuco gakondo ni mwiza cyane abantu n'ubu bawukoze byarushaho kuba byiza.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane, kera habagaho inka ugasanga n'abavuzi b'inka baritakuma, ugasanga habaye ibirori runaka basabye nk'umukobwa abavuzi b'inka bakavugira inka, ugasanga ibintu bimeze neza nta kibazo. Inka za kera zagiraga amahembe maremare ugasanga bazitatse zambaye amaherena ku matwi, ukabona ni ibintu byiza cyane.

Umuco gakondo ni umuco mwiza cyane. Abantu barawukunda cyane, kuko nk'iyo intore zihamiriza zambaye amayugi usanga ari byiza cyane. Ugasanga abantu birabashimishije kandi baranezerewe.

Tugomba gusigasira umuco nyarwanda ntugacike, kuko kera intore zarahamirizaga bambaye amayogi, zikambara imigara zigahamiriza, ugasanga ibintu bimeze neza cane, aho ziri kandi zageze wasangaga hasusurutse kandi ukabona ibintu byose birashimishije ziri gukora.

Umuco gakondo ni mwiza cyane, aho usanga intore za kera zarambaraga amayogi. Ugasanga zirabyina habaye ibirori runaka zigasusurutsa, ugasanga ibintu bigenze neza, kubera ko zambaye amayogi. Indirimbo, ingoma n'amayogi, bikaba bifite injyana ijyanye. Ukumva ni byiza cyane bibereye amatwi cyangwa amaso.

Umuco gakondo ni mwiza cyane abantu barawukunda cyane aho kera wasangaga abantu bejeje imyaka bejeje imyaka myinshi, ugasanga bahunitse mu bigega ugasanga ba yashyize mu mitiba ugasanga ibintu ni byiza. Ugasanga ibigega byaruzuye, imitiba yaruzuye, bahunitse imyaka yabo kandi ntago yaboraga cyangwa ngo imugwe kuko babaga babungabungira umutekano uhagije.

Tubungabunge umuco ni mwiza cane nk'abami ba kera bagiraga amasunzu umusatsi wabo ukaba ari mwiza cane bakawusokoza bagashiramo urujyo umusatsi wabo ugasanga urakeya kandi ni mwiza.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane, abantu barawukunda cyane niyo mpamvu tutagomba kuwuca, kuko uduha ibintu byiza kandi byujuje ubuziranenge, ugasanga nk'umuntu aboshye ikibo akibohesheje imifuka n'ubudeyi n'ishinge, ugasanga ni cyiza cyane kandi icyo kibo ntikijya gipfa gusaza, kuko kiba gikomeye usanga aboshye imitako yo mu nzu, akoresheje inshinge n'ibideyi.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashanyarazi aho biri hose biba byiranga, nk'iyo ubonye za nsinga bajya bakoresha bamanika amapoto, usanga ari ikintu kiziringiye cyane, ibitsinga biremereye cyane, kuko umuntu ntabwo yabiterura, iyo bagiye kubikoresha usanga bagenda basunika kugirango bigere aho bagiye kubikoresha.

Inyubako za Leta zijanye n'igihe ziba zubatse neza kandi zarateguriwe ahantu ho kuzubaka kugira ngo zibe zujuje ubuziranenge kandi zibe zujuje ibisabwa byose zigengwa n'izindi.

Ibitaro byubakitse neza, bashyiraho imireko n'ibigega bifata amazi. Ku bitaro hakaba hameze neza cyane kuko hari n'ibiti by'inturusu bivamo amahumbezi.

Ibikorwaremezo aho biri hose haba hiranga kuko wasanga inyubako nziza cyane , ukakahasanga inyubako zijyanye n'igihe , ugasanga zubatswe mu buryo bwa kijyambere , ugasanga abantu babonye amafaranga , kuko ahagaze ibikorwa remezo , haba hari n'iterambere.

Inzu z'ibikorwa remezo aho ziri hose ziba ziranga, kuko usanga barazubatse mu buryo bwiza, bwemewe n'amategeko, ugasanga baziteganyirije ahantu heza ho kuzubaka hajyanye n'igihe, hatagira ikibazo hateza, kuko baba biteguye ko bazakoreramo ibikorwa bya leta.

Inyubako z'ibikorwa remezo, aho ziriho zaba ari nziza cyane abantu barazikunda cyane kuko n'iyo uzirebye mu maso yawe, ubona zitandukanye n'inzu z'abantu batuyemo ukabona zitandukanye n'izindi nzu zipfuye kubaho. Ugasanga ni nziza kuko abantu bazikunda ugasanga afite inyubako nziza kandi ziri ahantu heza hateguwe.

Inyubako ya etaje ni nziza cyane, iyo uri kuyireba ubona ibereye ijisho. Noneho iyo iri ku muhanda ubona birengeje, ukumva nawe wayubaka.

Akarere ka Gakenke karubakitse neza, urebye inyubako yako ijanye n' igihe. Ni iya kijambere kuko ari etaje igeretse.

Ibikorwa remezo aho biri hose haba hiranga nk'iyo usanze ahantu hubatse akagari uhita ubona ko koko ari akagari kuko haba hari ikirango cyerekana ko ako ari akagari ugasanga uhise umenya no kukagari ako ariko. Ugasanga hariho ibendera ry'igihugu ugahita umenya ko aho hantu ari akagari cyangwa umurenge.

Ibikorwaremezo ni byiza cyane kuko biduteza imbere, tukabona amafaranga, yaba kubyubaka bari kuduha akazi , yaba kubikoreramo bakaduha akazi , ubona ari byiza cyane abantu barabikunda cyane . Aho bigeza iterambere riba ryahageze kuko buri wese bimugirira akamaro kubera ko babihazanye .

Icyapa iyo kiri ku muhanda kikwereka ahantu ugeze, kikakwereka amerekezo yaho ugana. Ugasanga nk'ahantu niba hari urusengero, ugeze ku cyapa hepfo ku muhanda uhise usanga icyapa, kikakwereka ko hari urusengero, ukakizamukiraho. Nk'iyo hari urusengero rw'Abadeperi, ugasanga ubonye inzira yaho unyura, kubera ko hari icyapa cyangwa iyo hari amashuri, cyangwa iyo hari ikintu runaka, icyapa kijya kirangira abantu inzira.

Ikigo cy'amashuri kizitije uruzitiro rw'amabuye aba ari cyiza cyane, inyuma yacyo hari ibiti byinshi bimeze neza bimeze nk'ubusitani.

Ibikorwa remezo aho biri hose biba byiranga, kuko baba barabiteguriye ahantu heza ho kubyubaka ugasanga ahantu hose biri biba byiranga, nk'umusigiti ugasanga ufite inyubako yihariye kuko baba barawuteguriye ahantu heza ho kuwubaka kugira ngo bajye bahasarira neza kandi bitonze.

Ibikorwaremezo aho biri hose biba byiranga, kuko ahantu haba harateganyijwe neza cyane. Abantu barabikunda cyane, kuko aho byubatse cyangwa byageze, abantu babona akazi, bakabona amafaranga. Iterambere rikaza rikabageraho, bagatera imbere. Na bo bagakura mu bwenge no mu bushishozi, kuko baba babona ibihabera bibateza imbere.

Inyubako za Leta aho ziriho zizaba ziranga kuko ziba zarateganyirijwe abantu zubatswe kandi zikubakwa neza mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo zitazagira imbogamizi ku bantu cyangwa ku miterere y'ikirere.

Insengero nubwo zimwe na zimwe zifunzwe ariko hari izifunguye zujuje ubuziranenge cane cane iz'Abakatolike.

Ibikorwa remezo aho biri hose haba hiranga kuko usanga inyubako zitandukanye n'iz'ahandi, ukahasanga hari imihanda, ukahasanga ingomero z'amashanyarazi, ukabona ni ibintu byiza cyane biba bibereye amaso kubireba kuko ibikorwa remezo biba byinjiza imisoro ya Leta ugasanga bimeze neza kandi aho byageze iterambere riba ryahageze ntacyo umuntu akena kuko byose biba bihari.

Ibikorwaremezo aho biri hose biba byiranga, kuko usanga hari inyubako nziza cyane, ugasanga babiteganyirije ahantu heza ho kubyubaka, ugasanga abantu bibahaye akazi, ugasanga abantu babonye amafaranga, ugasanga n'abahaturiye ubucuruzi buragendada nta kibazo, kuko ibikorwa remezo aho biri haba hageze iterambere, ugasanga n'imiso reta irayibona neza kugihe, tugatera imbere muri byose.

Ibikorwa remezo aho biri ho zaba hiranga, kuko usanga inyubako zabyo ari nziza cyane zitandukanye n'ibikorwa bisanzwe. usanga bimeze neza cyane kuko babiteguriye ahantu heza ho kubyubaka bitateza ikibazo na kimwe.

Ibikorwa remezo aho biri hose biba byiranga, kuko usanga byubatse neza kandi ahantu hateganyijwe. Ugasanga hameze neza cyane, nta kibazo hatera kuko baba barabiteguye neza kandi bakabishyira mu bikorwa, ugasanga nk'ahantu hubatse isoko bararyubakiye rirasakaye, abacuruzi n'abacuruza, abaguzi n'abagurisha ugasanga bameze neza cya...

Ibikorwaremezo aho biri hose biba byiranga, kuko usanga hari inyubako zitandukanye n'iz'ahandi. Ugasanga hari ibirango by'izo nyubako biri aho hantu, ugahita umenya ikintu cyahabera cyangwa icyo wahakorera bitewe n'uko wasanze hari ibyo birango.

Mu rusengero habamo intebe nziza cane, iyo ugeze mu rusengero nta bakristu bicayemo, ubona habereye amaso ku buryo wakwicaramo ukumva amahumbezi n'umuyaga w'imana.

Inyubako z'ibikorwa remezo, aho ziri hose ziba ziranga, kuko usanga barazubatse mu buryo bwiza kandi bwemewe n'amategeko, ugasanga barabwubatse neza, ugasanga babwubatse ahantu hateganijwe, ugasanga nta kibazo bwatera kuko baba barahisemo neza aho bakwiye kubwubaka, ugasanga ibiraro bimeze neza cyane, bitapfa kuriduka kuko babyiseho cyane bakabyubaka neza.

Ku Mukamira haba inzu z'ubucuruzi n'ibiti byinshi bijya gusa nka mayideni, biteye ku muhanda n' inyuma y'ayo mazu.

Ibikorwa remezo aho biri hose haba hiranga, kuko uzasanga hari inyubako nziza cyane zitandukanye n'iz'ahandi, ukahasanga nk'amashanyarazi, ukahasanga aho bafite umuriro, ukahasanga hameze neza cyane, kuko amashanyarazi iyo umuriro uhageze ariho ahagararira bakafatiraho, kuko haba hari umuriro mwinshi cyane.

Ibikorwa remezo aho biri hose haba hiranga, usanga ni ahantu heza kandi hagari, kuko biba byarahateguriwe ko bazabihubaka, hameze neza kandi nta kibazo hagomba guteza, kugira ngo bitabangamira abaturage cyangwa abahatuye nk'insengero, nk'imihanda, ugasanga ibintu byose birahari kandi ni byiza, bitewe n'uko babiteguye neza bakabishyira ku mirongo.

Ibikorwa remezo aho biri hose biba byiranga, kuko usanga bifite inyubako nziza cyane itandukanye n'izu abantu babamo. Ugasanga ahantu byubatse ni hagari kandi ni hanini kubera ko babiteguriye neza ahantu ho kubishyira, ugasanga harisanzuye. Ugasanga nka kiliziya barayubatse neza bayiha agasongero bayishyiraho kumusaraba. Ugasanga ni byiza cyane kandi byinjiza n'amafaranga mu gihugu.

Mu cumba c'ikoranabuhanga haba harimo mashine, hakaba harimo n'agasohora impapuro n'ameza yo kugaterekaho n'intebe yo kwicaraho.

Ibikorwaremezo aho biri hose biba byiranga. Usanga bifite inyubako nziza cyane. Ugasanga inyubako zazo zirakeye. Aho hantu hari ibikorwa remezo, abantu bahagirira amahirwe, bakahagirira iterambere, kuko haba hageze ibikorwa remezo. Buri kimwe cyose kiza kihagana kubera ibyo bikorwa remezo bihubatse, insengero, imihanda. Ugasanga ubucuruzi buragenda, kubera ibyo bikorwa remezo bihari.

Ibikorwa remezo aho biri hose haba hiranga, kuko leta iba yarabigizemo uruhare mu kubyubaka, ugasanga banyuze mutegeko kugira ngo babyubake, ugasanga aho hantu harateguwe nta kibazo hatera kandi nigari ntawe habangamiye, ugasanga urusengero bararwubatse bashiraho n'imigezi yo kugira ngo bagire isuku kandi biririnde umwanda.

Iyo imvura igiye kugwa bigaragarira mu kirere, ikirere kigatangira kwigaragura, kikibirindura, kikarakara, abantu bakanura imyaka bagashyira mu buhunikiro bwayo.

Ibikorwaremezo aho biri hose haba hiranga. Kuko usanga bifite inyubako nziza cyane zikeye. ugasanga ni inyubako zijyanye n'igihe. Ugasanga ni inyubako za kijyambere. Ugasanga zibereye amaso. Ugasanga aho baziteganyirije kuzubaka ni ahantu heza cyane kandi hagari, kuko nta kibazo hatera cyangwa ngo habangamire abantu runaka. Ugasanga nk'urusengero barwubatse neza, ugasanga aho ruri haritaruye, ugasanga hamezeze neza cyane, kandi ni hagari, kuko haba harateraniye.

Ibikorwaremezo aho biri hose haba hiranga, kuko usanga hari inyubako zitandukanye n'iz' abantu babamo ugasanga ni inyubako nziza cyane kandi zikeye, abantu bose bahagera bakabona ko izo nzu zitandukanye n'iz' abaturage.

Inyubako z'ibikorwa remezo aho ziri hose ziba ziranga ziba zubakitse neza, kandi mu buryo bwemewe n'amategeko zinoze. Kandi zarateguwe neza aho bagomba kuzubaka, hatabangamiye abantu n'ibintu.

Ibikorwaremezo aho biri hose biba byiranga, kuko usanga inyubako zabyo bimeze neza cyane ,ugasanga barabiteguriye ahantu heza hagezweho hajyanye n'igihe kugira ngo babyubake ,bizarambe nta kibazo bifite.

Ibikorwa remezo aho biri byose haba hiranga, abantu barabikundaga cyane. Kuko ahantu hari ibikorwa remezo usanga hari iterambere, rikazana imihanda, rikazana insengero, ugasanga abantu barabona aho bahahira neza kandi byihuse, kubera ko hageze ibikoresho, hakaba hari iterambere rijyanye n'igihe.

Inyubako z'ibikorwaremezo aho ziri hose ziba ziranga, kuko usanga barazubatse ahantu heza hateguwe, ugasanga hari ubuzima bwiza, ugasanga abantu barabona akazi, ugasanga bahaciye imihanda, ugasanga bahubatse ibitaro, ugasanga bahubatse insengero, kuko baba barahateguye kandi neza barabyitondeye.

Ibikorwa remezo aho biri hose haba hiranga kuko usanga hameze neza cyane ugasanga harakeye kandi ni hagari, ugasanga nka Kiliziya gatulika abamaseri barasohotse bavuye mu Kiliziya na Musenyeri bafashe ifoto impande ya Kiliziya, ugasanga bose barisanzuye kuko haba hubatse neza kandi harateganyijwe kuhubaka ,nta kibazo hatera cyangwa uwo habangamira.

Ibikorwa remezo aho biri hose biriranga , usanga nk'imihanda , ibiraro byiza cyane bigezweho bijyanye n'igihe, byubatse mu buryo bwa kijyambere . Usanga ari ibiraro byiza cyane aho umuntu yatindishaga ibiti ibiraro, ugasanga byacikaguritse byaridaguritse, ariko ibiraro byubatse mu buryo bwa kijyambere ntacyo biba bitwaye kuko abantu barahanyura yaba umwe cyangwa babiri, ugasanga nta kibazo bafite baragenda bisanzuye.

Ikiremwa muntu aho kiri hose kigomba kwitabwaho waba uri muto cyangwa ushaje, dore ko abantu bashaje batekereza bimwe nk'iby'abana. Nabo bagomba guhabwa uburenganzira mu byo bavuga cyangwa bakora binyuze mu butabera ntibasubizwe inyuma cyangwa ngo bahezwe.

Umuyobozi ari gusomera abayobora ibaruwa bijyanye n'ibyo bakora. Umukecuru nawe ari gutega amatwi umuyobozi kugira ngo yumve ibyo avuga. Babaha n'amazi yo kunywa kugira ngo batumagara mu kanwa.

Abaturage baricaye hasi y'umuhanda n'ibigori, umuyobozi ari kubaremesha inama n'ushinzwe umutekano.

Uburenganzira bw'ikiremwamuntu bugomba kwitabwaho uko yaba ameze kose, cyangwa asa, agomba kubaho kimwe n'abandi atarenganyijwe mu buzima bugororotse.

Abaturage iyo bateranye ari benshi bahagaze abandi bicaye baba bari mu nama, bagatega amatwi icyo umuyobozi ababwira, bakahava bafashe n'umwanzuro.

Imihanda aho iri hose aba ari myiza cyane abantu barayikunda cyane kuko urujya n'uruza rw'abantu ari rwo runyura muri iyo mihanda, yaba abafite ubumuga yaba abadafite ubumuga buri wese mu muhanda yisangamo. Uba umeze neza warubakitse neza nta binogo wasangamo ku buryo n'umuntu ufite ubumuga ugendera ku kagare anyuzamo akagare ke nta kibazo ukabona ageze iyo agiye neza kandi ku gihe.

Iyo ugiye mu modoka i Kigali ya bisi urazamuka mu bice by'i Nyanza ya Kicukiro, iyo ufite ikarita birakorohera ariko iyo utayifite amafaranga wishura aba arenze kurusha uko wakoresha ikarita.

Ikimodoka kinini kiri mu muhanda c'igikontineri n'ikimodoka kimena amazi mu muhanda, n'abantu bari kugenda mu muhanda abagabo babiri haba hameze neza cane mu muhanda w'ibitaka.

Muri gare haba hari urujya n'uruza rw'abantu, ugasanga hari amamodoka y'amabisi ategereje abagenzi, buri wese akinjira mu modoka yo ashaka, afiteye ubuhamya kuko iramugeza aho agiye, ugasanga abanyeshuri na bo bahageze. baricaye, abandi baragenda barajya gushaka imodoka batega, bitewe n'aho bashaka kugera, ugasanga kubera ko hari imihanda, hari iterambere. Ugasanga ibinyabiziga ni...

Moto zitwara abagenzi, zirabategereje ku muhanda, zitegereje abo ziratwara, ngo zibageze aho bifuza kugera, vuba kandi ku gihe.

Muri gare ya nyabugogo habamo amabisi atandukanye ageda anyuranamo uruja n'uruza.

Ahantu hari imihanda nyabagendwa usanga hiranga, kuko uhasanga urujya n'uruza. Uhasanga amabisi menshi ategereje abagenzi kuko ayo mabisi aba aragendamo abo bagenzi, bakayatega akabageza iyo bashaka, kandi akabagerezayo ku gihe bidatinze.

Isuzuki ni imodoka nziza cane， iyo ipakiye imizigo iyigeza iyo igiye amahoro. Kurusha uko yagenda mu zindi modoka zitari suzuki.

Ahantu nko muri gare haba hiranga ,kuko ubona imodoka zinjira ukabona n'umuryango zisohokeramo, ukabona harimo imodoka nyinshi cyane, ukabona ibirango by'imodoka, ukabona hari abagenzi banyuranamo, kuko muri gare haba urujya n'uruza rw'abantu, buri wese ari gukatisha iyo agiye ku gihe, kandi akagerayo byihuta.

Imodoka zitwara abagenzi nka bisi ziba ziranga, kuko aba biba ari ibimodoka binini cyane, kandi bijyamo abantu benshi cyane. Ugasanga abantu barabikunze, kuko iyo ubigendeyemo uba wicaye neza kandi wisanzuye, uba ufite umutekano uhagije kurusha aho wagendera muri ka twegerane. Ugasanga intebe yayo ni ngari cyane, iruta iyo muri twegerane. Abantu bose bakunda gutega bisi, kuko bisi iba ari imodoka nziza cyane kandi yisanzuye.

Amagare atwara abagenzi aba ari meza cyane, ugasanga abanyonzi bahagaze ku mihanda bategereje abagenzi, kubera ko baba baraciye imihanda nyabagendwa, ugasanga umuntu ateze igare ageze iyo ashaka kandi agereyeyo ku gihe, kuko hagendeka hari umuhanda umeze neza.

Iterambere iterambere ryo kugendera ku binyabiziga ni ryiza cyane abantu bararikunda cyane, nk'iyo uvuye mu rugo ufite ahantu ugiye uhita utega akamoto kakugeza aho ushaka kandi byihuse. Amamoto aba aparitse ari menshi buri wese akayateza imbere, bitewe n'uko abona akazi ahawe n'abo bagenzi aba yiriwe aratwara.

ill Imihanda ni ikintu cyiza cyane, kuko kigendwa n'abantu benshi ugasanga harimo imodoka zitandukanye, ugasanga ni nko muri gare y'imodoka. Abantu bose bagatega bitewe n'aho umuntu ashaka kujya, akahagera byihuse kandi bidatinze, kubera imihanda kandi hakaba harimo n'ibinyabiziga byakugeza aho wifuza kugera.,

Imodoka nini ya bisi itwara abagenzi ni nziza cane. Iyo abagenzi bahagaze ku muhanda barenze umwe, bose ibashiramo ikabatwara, kuko aba ari nini cane. Iyo ihagaze mu muhanda moto iri kuyinyura iruhande, umuhanda iba yawihariye ukabona yuzuye mu muhanda.

Imihanda nyabagendwa ni myiza cyane. Abantu barayikunda cyane. Kandi n'ibinyabiziga iyo byikoreye cyangwa bipaki imitwaro binyinyuramo. N'abanyamaguru bakayinyura bisanzuye. Ugasanga nta kibazo byatera kuko imihanda ari migari, kandi barayubatse mu buryo bwiza, bugezweho, barayikoze neza buryo bwa kijyambere.

Imodoka bamaze gupakiramo umucanga ni nziza cyane, iri mu muhanda w'igitaka, haruguru ya yo hari ibyatsi, imbere ya yo hari umucanga n'igitaka cy'ibumba.

Imihanda iba myiza cyane kuko usanga buri wese yisanga, yaba ibinyabiziga, amagare, ama moto, abanyamaguru, ugasanga buri wese arayinyuramo nta kibazo afite, kuko baba barayiciriye kugira ngo abantu bayinyuremo bisanzuye kandi neza.

Iyo imodoka ari nyinshi zirenze imwe aho hantu aba ari mu mujyi. N'abaturage bahagaze udutsiko udutsiko, uhita wibwira ko ari ahantu hagendeka.

Muri gare ya rubavu ni heza cane, iyo ugezemo ukareba. Ukareba aholitiko zihagaze, ukareba amagare, abantu banyuranamo uba ubona bibereye amaraso neza.

Imodoka nyinshi za ritiko iyo ziparitse, ubona zisa neza cyane, zanditse ho ritiko mu ibara ry'icyatsi cyume, ukabona bisa neza.

Imihanda nyabagendwa iba ari myiza cyane, abantu barayikunda cyane, ugasanga nka gare iparitsemo imodoka za bisi ari zo za ritiko ugasanga zimeze neza cyane, kuko ziba zitegereje abagenzi, abagenzi baba ari urujya n'uruza ugasanga ibintu ni byiza cyane, kubera ko badukoreye imihanda umuntu agatega bisi akagera iyo ajya vuba kandi byihuse kubera ko imihanda ikoze neza.

Imodoka nini zitwara abagenzi abantu barazikunda cyane , kuko zibageza aho bashaka vuba kandi byihuse, ugasanga abantu barazitega kubera ko zihita zibageza aho bashaka kandi vuba.

Amagare atwara abagenzi ni meza cyane, abantu barayakunda cyane, kuko nk'iyo uri kwihuta ugiye ahantu runaka, utega akagare kandi aba ari amafaranga makeya cyane, kakakugeza iyo ushaka, kandi kakakugezareza ku gihe, kuko imihanda iba imeze neza barayikoze ugasanga ni iterambere kuri buri wese, kuko bakoze imihanda.

Ritiko ni imodoka nziza cane, iyo ugendeye muri bisi, ugiye nk'i Kigali cyangwa i Rubavu, ugerayo wumva nta sereri kubera ko aba ari imodoka igiye hejuru.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, abantu barayikunda cyane nk'iyo yabaye ku kibuga runaka cyangwa kuri sitade, usanga abantu bagiye kuyitabira bagiye kuyireba, ugasanga barishimye kandi baranezerewe, abayikora nabo ikabongerera iminsi yo kubaho kubera ibyishimo baba bafite.

Imikino n'imyidagaduro ni byiza cyane mu mubiri w'umuntu，iyo wabikoze ubikunze kandi ubishaka nk'ubugeni n'umuco nyarwanda， ukabikunda bituma utarwaragurika kandi bigatera ibyishimo mu buzima bwa buri munsi．

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, aho usanga abakinnyi barisukishije ku mutwe amaderedi abantu bakabakunda cyane, n'abakinnyi bava mu bihugu byo hanze usanga abantu babitayeho kandi babakunze, kubera ko baba bazi gukina neza nk'umupira w'amaguru, cyangwa uw'amaboko. Ugasanga barabikora neza nk'ababyigiye kubera ko babyitoza buri munsi.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri ku kibuga kiriho tapi, bambaye imyenda isa, amakabutura n'amasengeri ariho nimero, ubona bameze neza cane.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane abantu barayikunda cyane, kuko usanga iyo umuntu abyibushye akora imikino n'imyidagaduro kugira ngo agire ubuzima bwiza. Waba ubyibushye cyangwa unanutse ugomba gukora imikino n'imyidagaduro kugira ngo ugire ubuzima bwiza, bwujuje ubuziranenge buzira indwara.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, ituma abantu bagira ubuzima bwiza, igatuma abantu bagororoka nk'umukino w'amaboko wa voreboro cyangwa handiboro utuma abantu bagira umunezero n'ibyishimo, nk'iyo bari kuzamura handiboro umupira w'amaboko bawushyira mu gapaniye, ubona ari byiza kandi bishimishije buri wese.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane . Abantu barayikunda cyane nk'iyo bayikinnye neza ,ugasanga bacyuye igikombe ugasanga biragenda neza baragiye akaba ari ibintu byiza bishimishije kandi n'uwayikoze aba yariyongereye iminsi yo kubaho, aba yaririnze indwara mu mubiri . Buri wese akunda imikino n'imyidagaduro ,kuko ituma abantu bagira ubuzima buzira umuze.

Ahantu hakorerwa imikino n'imyidagaduro aba ari heza cyane, abakunze kuba bibuga byiza ugasanga abantu barabikunda cyane, kuko iyo abantu bagiye kuhakorera imikino n'imyidagaduro, usanga bari kwiyongere iminsi yo kubaho kandi bakirinda indwara mu mubiri, kuko bakora imikino n'imyidagaduro. Dukunde imikino n'imyidagaduro, kuko ituma buri wese yirinda indwara zitandukanye.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane. Abantu barayikunda cyane. Iyo usanze abantu bayitabiriye uba ubona babyishimiye kuko ibaha kugira ubuzima buzira umuze.

Imikino n’imyidagaduro ni byiza cyane. Abantu barayikunda cyane, nk’iyo ubyutse mu gitondo ukirukanka cyane ahantu harehare. Uba uri kugira ngo wirinde umubyibuho ukabije, kandi bikakugirira akamaro kuko ujya no gukora akazi wumva wishimye kandi unezerewe, nta mavunane ufite.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, ituma abantu bishima, igatuma abantu badasaza vuba, igatuma abantu birinda indwara mu mubiri, kuko n'ababikora babikora babikunze kandi bibashimisha, ugasanga bibateye ibyishimo bakiyongerera iminsi yo kubaho mu buzima bwabo.

Isiganwa ry'amagare ni ryiza cyane abantu bararikunda cyane, nk'igihe cyageze cy'isiganwa ry'amagare usanga abantu bavuye mu ngo zabo, ugasanga bahagaze ku mihanda bahamagara kugira ngo barebe isiganwa ry'amagare, basanga byabashishikaje cyane ugasanga umuhanda umeze neza ufite umutekano uhagije kuko haranyura isiganwa ry'amagare.

Uyu muzungu yambaye imyenda ya siporo isa n'ubururu, n'inkweto za siporo zisa n'umweru, n'ingofero ya siporo isa n'imyenda yambaye, atwaye igare rya siporo, ari mu irushanwa ry'amagare.

Abasore bakunze gukora imikino y'imyidagaduro, imikino ngororangingo, baba bafite imbaraga, baba bafite ituza, impfundiko, akaboko kabo kaba karimo imbaraga, ku buryo bagukubise ingumi wahita ugwa hasi.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane aho dusigaye tuyikunda cyane ugasanga abakobwa barayitabiriye kubera ko nabo bamenye agaciro kayo ugasanga nk'iyo umukobwa ayikora ntabwo akunze gukora ibintu ngo yumva arananiwe kuko aba yarakoze imikino n'imyidagaduro kandi akaba yirinda n'indwara mu mubiri akirinda n'umunaniro ukabije.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane kuko abantu barayikunda cyane. Nk'iy'umupira w'amaguru wabaye ku kibuga usanga abantu bagiye kuwureba. Ugasanga bamwe baratanga n'amafaranga kugira ngo bayirebe kuko ituma umuntu aruhuka mu mutwe. Kandi n'abari kuyikora ugasanga ibafashije mu gukura neza mu bitekerezo no mu bwenge.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, abantu barayikunda cyane, yaba kuyireba yaba kuyikora, usanga ari byiza kandi bibereye, ababikora usanga bari kwiyongerera iminsi yo kubaho, bari kwirinda indwara mu mubiri kuko uwayikinnye ntago ajya agira indwara zitandukanye nk'iz'umubyibuho kandi umukino w'amaboko aba ari mwiza cyane nka volley ball cyangwa handball, bishimisha abantu n'ababikina ukabona nibyiza.

Imikino ni imyidagaduro, abantu barayikundaga cane, iyo yabaye ku kibuga abantu benshi bajya kuyireba, bakahava bumva bishimye kandi banezerewe, kubera abakinnyi runaka babashimishije.

Abantu bari muri sitade bamamaza bambaye imipira y'imyeru bazamuye ibendera ry'igihugu bari kwamamaza.

Pisine iba nziza cane. Iyo unaniwe ukajya koga, uvamo umunaniro ushize. Uwaba afite pisine iwe, byarushaho kuba byiza.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, abantu barayikunda cyane, nk'umupira w'amaboko abantu bakunda kuwukina usanga barimo bishimisha cyane bari kuwukina ugasanga n'abawurebye, usanga bibateye ibyishimo, kuko umukino w'amaboko aba ari mwiza cyane, kuko utuma abantu bivura umunaniro, ugatuma abantu bishima bakiyongerera iminsi yo kubaho.

Isiganwa ry'amagare mu Rwanda riba rimeze neza cane, riba ribereye kurireba n'ijisho, urebye abantu benshi bava mu rugo bakaza kureba irushanwa jy'amagare.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, abantu barayikunda cyane, nk'iyo ugeze ku kibuga habaye umupira w'amaguru usanga ari byiza cyane, abakinnyi bari gukinira kuri tapi, ugasanga ni byiza cyane ,buri wese akajya mu mwanya we ,ugasanga bameze neza ntakibazo bafite, ugasanga buri wese biramushimishije kandi bimwongereye iminsi yo kubaho, bimurinda n'indwara kuko imikino n'imyidagaduro ari byiza cyane.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, abantu barayikunda cyane, noneho abakobwa bakaba akarusho, iyo bayitabiriye usanga ari byiza cyane, kandi bibabereye kuko babikora babikunze kandi babishaka.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, abantu barayikunda cyane kuko usanga ishimisha abantu, nk'umukino w'amaboko umupira wa voreboro usanga abantu bawitabira, kuko udasaba ingufu nyinshi usanga abawuzi neza kuwukina, birabashimishije kandi batsinda ibitego byiza.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, abantu barayikundaga cyane, nkiyo ubonye intore zibyina zitoza, ukabona zimeze neza cyane, ziri gukora imyidagaduro, ziri kubyina zigorora amaboko, ziri kugorora ingingo, amayogi zayambaye, ubona ari byiza cyane bibereye amaso buri wese akumva yabireba kuko biba bishimishije.

Iyo ukoze imyitozo ngororamubiri nko gukina umupira, biguha ibyishimo byo mu mutima, amaraso agatembera neza, ugahora wumva ufite ibyishimo, nta munaniro ufite.

Imikino n'imyidagaduro ni myiza cyane, abantu barayikunda cyane, kuko ituma umuntu yiyongera iminsi yo kubaho, ugasanga nk'abakobwa bari gukina nk'umupira w'amaboko, ari wo voreboro, ugasanga bameze neza cyane, barishimye kuko bari kugorora umubiri, bari kugorora ingingo za bo, nta kibazo ugagasanga bibarinda n'indwara mu mubiri zitandukanye, kubera ko bakora imikino n'imyidagaduro ya buri munsi.

Irushanwa ry'amagare ni ryiza cyane, abantu bararikunda cyane. Iyo abari kurushanwa ku magare cyangwa basiganwa ku magare batonze umurongo mu muhanda, bari kugenda usanga ari byiza cyane bibereye amaso, abantu bavuye mu ngo zabo bagiye ku muhanda ku irushanwa ry'amagare, ugasanga birabashishikaje kandi birabashimishije cyane.

Abantu bagenda mu muhanda aba ari benshi kandi batandukanye: abagabo, abagore, abakobwa, abasore, abambaye bote, abambaye inkweto zifunze, abambaye izifunguye ...

Uyu muhanda ni mwiza cane, ni uwo mu kagari, bawukoze neza cane, n'imodoka zawunyuramo n'abanyamaguru bakawunyuramo.

Inzira zo mu midugudu aba ari nziza cyane, kuko abantu ziraborohera kugera iyo bagiye, iyo ushaka kujya ahantu runaka ugeraho byihuse kandi vuba, nk'iyo bahaciyemo imihanda, usanga n'ibinyabiziga ubitega bikakugeza iyo ugiye kandi vuba ,bikakugerezayo ku gihe kuko hari imihanda nyabagendwa.

Umuhanda utari kaburimbo ni mwiza cane kuko iyo uwugendamo uba wumva ufite amahoro, nta kinyabiziga wahura na cyo ngo kikugonge, ukumva ufite umutekano mu rugendo, ntabagutera kaci ngo bakwambure waba barimo, ugendamo n'amaguru uri kumva wisanzuye.

Imihanda yo mu midugudu aba ari myiza cane, kuko umuntu aja gusura umuntu akamugeraho byihuse kandi bidatinze, iyo baciye imihanda mu midugudu abantu bakanabona iterambere mu mudugudu wabo n'uwo muhanda uba warabigizemo uruhare.